Sitade nziza yubatse mu buryo bwiza ndetse irimo umubare munini w'abaturage, ubonako buri wese yishimye ndetse bakaba bafite na simati fone, barimo bafata amashusho bisa naho ari umuntu wabasuye iyo bari kwidagadura.

Umubare munini w'abaturage bateraniye hamwe. Aho baje mu nama, imbere hari abayobozi babo ndetse harimo urwego rwa polisi n'abandi bayobozi batandukanye. Aho baje kugeza ubutumwa ku baturage burimo serivisi bahabwa cyangwa se serivisi bagombwa.

Icyumba giteraniyemo umubare munini w'abayobozi ubonako biganjemo abagore ndetse n'abagabo aho mbere yabo hari kubagezaho ijambo ubonako buri muturage wese cyangwa se buri muyobozi wese akurikiye inama imbere yabo hari amazi yo kunywa ndetse n'icyo bita mikoro aho buri muturage cyangwa se umuyobozi w'ijambo ashaka kugeza ku bandi akoresha mikoro.

Inzu iteraniyemo umubare munini w'abaturage, imbere yabo hari abayobozi bicaye mu ntebe ziri imbere, ndetse imbere yabo hari icyo kunywa, harimo amazi, ji, bisa n'aho iyi sale irimo abantu benshi cyane, baje kumva ubutumwa abayobozi babo babagezaho.

Mu myambaro yabo myiza cyane, abapolisi bashinzwe umutekano wo hagati mu gihugu ndetse bari kumwe n'abaturage, aho baje mu nama zitandukanye, urabona ko bicaye, bateze amatwi ibyo bari kubwirwa n'uri imbere ndetse urabona n'inama iteguye neza cya...

Inyubako iteraniyemo abantu benshi bigaragara nkaho baje kugira ibyo basakaza cyangwa se ibyo bakumva, urabona ko imbere hari umugabo wahawe ijambo mu ishati nziza, ndetse na mikoro afite ubutumwa arimo ageza kuri buri umwe uri aho muri iyo nama bavuga ko,

Inama iri kuberamo ibikorwa bitandukanye, urabona ko harimo aba abantu benshi cyane, barona harimo abanyamahanga ndetse n'abandi banyarwanda, babona ko bambaye amakarita baranga kuba bari mu kazi kabo bari barimo banywa basangira, urabona ko imbere ari kunywatabi umuyobozi uri imbere wabwa uri murirabagezaho ijambo.

Umubare munini w'abakozi bakorera ikigo cya " USAID", ndetse urabona ko ni abakozi bambaye neza cyane. Bamwe bambaye ama "BADGE" y'akazi, ndetse harimo n'abandi uranaku ni ifoto nziza y'urwibutso barimo bafata nk'abakozi bakorera ikigo cya " USAID".

Kigali yacu nk'uko byanditse, urabona ko ni icyumba kirimo abayobozi batandukanye, aho barimo baganira ku bikorwa bigiye bitandukanye ndetse no guhanga imirimo, ubonako buri munyarwanda wese uri hano muri ino nama, arimo yumva abayobozi bari imbere yabo, aho barimo bageza ubutumwa ku banyarwanda batandukanye burimo nko kwihangira imirimo.

Icyumba giteraniyemo umubare w'abantu benshi urabona ko buri umwe ateze amatwi imbere ye bisa naho hari umuyobozi urimo afite ijambo abagezaho n'ako bateze amatwi bose ariko ndetse imbere murahabona umukobwa urimo yandika ibyo yumvise ndetse ibibazo yumvise ndetse n'ibindi abasha kuza kubaza.

Icyumba giteraniyemo umubare munini w'abayobozi urabona ko mu nzego zigiye zitandukanye harimo abayobozi bakora mu kigo gishinzwe iperereza kizwi ku izina rya ribu ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye, urabona ko bateze amatwi bari kumva umuyobozi ubari imbere aho afite icyo arimo abatangariza.

Icyumba giteraniyemo umubare munini w'abayobozi, ubona ko ni abayobozi barimo barumva umuyobozi uri imbere yabo ufite ijambo arimo abasangiza ari nako imbere yabo bafite amazi yo kunywa, ari nako bafite za mudasobwa ndetse hari n'amamikoro ari imbere ku buryo ushaka kugiranabo inyunganizi atanga cyangwa ikibazo ,akoreshe izi mikoro ageza ku bandi ijambo yabateguriye.

Icyumba giteraniyemo umubare munini w'abaturage, abagore, abagabo, ubonako bateze amatwi, barimo barumva umuyobozi uri imbere yabo icyo arimo abagezaho, urabona ko bafite icyo kunywa, barishimye cyane ndetse bisa naho bakurikiye ikiganiro barimo bagirana n'umuyobozi wabo ubari imbere.

Inama iteraniyemo abatumirwa benshi ndetse n'abandi baturage bafite ibyo bashinzwe, aho baje kwishimira umunsi w'ubukerarugendo wazamutse mu Rwanda ndetse ukaba warageze ku rundi rwego rushimishije, ukaba winjiza amafaranga menshi.

Icyumba giteraniyemo umubare munini w'abagore ndetse n'abategarugori, aho bari mu nama ijyanye n'umunsi wabo mukuru w'abagore, aho bateze amatwi umuyobozi uri imbere urimo abaha ubutumwa kuri bo, urabona ko barimo bumva, ndetse banandika ibitekerezo.

Icyumba giteraniyemo umubare munini w'abaturage, aho bateze amatwi umuyobozi ubari imbere, akaba afite ibyo arimo abagezaho, baje kuba bumva muri ino nama, aho baje gusangira ibitekerezo ku kibazo abaturage bafite ndetse bagafataho n'umwanzuro.

Icyumba giteraniyemo umubare munini w'abantu, harimo abategarugori ndetse n'ababyeyi batandukanye, aho buri umwe afite impapuro imbere ye n'ikaramu, aho arimo yandika ibibazo by'imbere umuyobozi arimo abagezaho.

Inama iteraniyemo umubare munini w'abaturage aho imbere hari umuyobozi urimo abagezaho amatangazo cyangwa se ibiganiro yaje abageneye, urabona ko buri muturage wese ateze amatwi umuyobozi umuri imbere urabona kuba ni ibintu byiza cyane ko abaturage bitabiriye inama.

Icyumba giteraniyemo umubare munini w'abantu, urabonako buri umwe akurikiye umuyobozi uri imbere ye, aho akurikiye ibiganiro arimo abagezaho cyangwa se inama zitandukanye, urabonako harimo abafite mudasobwa ndetse n'imbere yabo hari amazi yo kunywa, aho ufite inyota abasha gusoma ku mazi akabasha gukurikirana inama uko irimo igenda, urabona ko ni ibintu byiza cyane biteguye.

Umunara, umunara muremure cyane, ni iminara igenda ishyirwa ahantu hagiye hatandukanye, mu buryo bwo gukwirakwiza amarezo cyangwa se kuba wakurura amarezo, ushatse kuba wahamagara umuntu, koresha uyu munara ureba hano muremure cyane, urabona ko hari n'abari kuwubungabunga, urabona ni ibintu byiza cyane kandi bifasha buri munyarwanda wese

Ngira ngo iyi shusho mureba hano imbere ni urubuga rw'irembo rukoreshwa mu Rwanda twishyura serivisi zitandukanye z'irembo, harimo serivisi z'ubutaka, harimo serivisi za polisi ndetse n'izindi serivisi nyinshi zitandukanye ubasha kwishyura mu buryo bwo kwirinda ko watakaza umwanya ugenda uzishyurira ahandi.

Ngira ngo ishusho mubona hano ni ishusho igaragaramo uburyo wakoresha urubuga rw' irembo, wishyura serivisi zitandukanye. Uburyo bwo kugabanya ubucucike ndetse no kugabanya umwanya wo kugenda ubasha kujya kwishyura serivisi zawe, ukaba wakoresha telefone yawe, wishyuwe serivisi zitandukanye zitangwa n'uru rubuga rw' irembo.

Ngira ngo ishusho mureba hano imbere ni ishusho igaragaza serivisi leta igenda yegereza abaturage, zibabona ku buryo buboroheye harimo nko; kwishyura umuriro, kwishyura amazi, kwishyura n'ibindi bitandukanye. Ngira ngo murabona ko leta ibaha ibintu byiza bitandukanye; umuhanda mwiza ndetse ibinyabiziga bigenda mu buryo bwisanzuye.

RGB ni ikigo gikorera mu Rwanda gishinzwe imiyoborere myiza y'abaturage, aho gishinzwe kureba abaturage ko bishimiye imiyoborere y 'abayobozi bitoreye ndetse kikagenzura ko abayobozi batoye bakora zimwe mu nshingano bahawe.

Batanga serivisi z'irembo ndetse barafotora, bagakora n'izindi serivisi zitandukanye, aho bashyizeho icyapa kiranga aho bakorera ndetse ni ahantu heza ku muhanda, aho batanga bimwe mu byo bavuze haruguru, harimo nka serivisi z'Irembo, gufotora ndetse n'ibindi.

Ngira ngo ishusho mubona hano imbere ni ikigo cya Rwanda Reveni Otoriti kizwiho ku bijyanye n'imisoro ndetse harimo serivisi bagenda babwira abaturage kuba bakurikiza nk'izo kuba bagura imashini ibasha kwishyura ifatabuguzi kuri buri muturage wese ubashije kugura buri kimwe, uburyo bwo gutanga umusoro wo kubaka igihugu cyacu cy'u Rwanda.

Urubuga rukoreshwa mu Rwanda, ruzwi ku izina ry'irembo, rutanga serivisi zitandukanye, harimo iz'ubuvuzi ndetse n'izindi serivisi nyinshi, urabona ko hano bari batse serivisi y'uburenganzira bwo kugera mu nkambi y'impunzi. Urabona ko ni imwe muri serivisi iki kigo gitanga, barimo babasha kuzuza kugira ngo babone urwo ruhushya binyuze muri serivisi z'irembo

Ni inzu itangirwamo serivise zitandukanye za banki ndetse n'izindi serivisi za airtel, aho uje ushaka serivisi za banki aba ajenti bakorera muri ino nzu bakaba bazishyikiriza ndetse n'izindi serisi tutavuze haruguru za airtel uraza hano bakazikora.

Dusure u Rwanda twirebere ibyiza bitandukanye urabona ko bagaragaza ko hari ingagi ndetse n'ibindi byinshi byinshi byiza cyane ba mukerarugendo bakururwa nabyo baje gusura u Rwanda harimo nk'ubugeni ndetse n'ibindi bijyane n'ubuhinzi n'ubucuruzi.

Ikigo kizwiho gutanga serivisi mu Rwanda zigiye zitandukanye ku baturage, umuturage wese ubashije kuba yashaka serivisi zitangwa n'ikigo k'Irembo kizwiho gutanga serivisi zinoze mu Rwanda, izo arizo zose washaka wakandika urubuga irembo ugasura urubuga ukareba serivisi batanga, nawe ukaba wabasha kubyikorera kuri mudasobwa yawe cyangwa se igikoresho ngendanwa.

Icyumba kirimo ibikoresho byinshi cyane ndetse ibikoresho byiza bitangirwamo serivisi zitandukanye, urabona ko hano ni icyumba gitangirwamo serivisi z'irembo serivisi za fotogarafe, serivisi zo gufotora ndetse n'ibindi bitandukanye, urabona ko hakorerwamo ibintu byiza bigiye bitandukanye.

Urabibona twicaye muri sale irimo abantu barenga umwe bose bari kuri mudasobwa bambaye ama ekuteri, bafite ibyo barimo bakora kuri mashini zabo cyangwa se za mudasobwa, aho barimo bashakisha amakuru ubona buri wese ahugiye ku mashini yiwe ashaka amakuru yaje...

Abaturage bafite amamashini ndetse bambaye no gupfukamunwa mu rwego rwo kwirinda indwara zandurira mu myuka, urabona ko abaturage barimo bakora ibikorwa byabo bakoresheje izi mashini, urabona ko rwose abaturage bitabiriye ari ahantu hagiye hatandukanye.

Uyu mugore mureba hano ni umugore utanga serivisi za emutiyene, harimo kubitsa no kubikura ndetse n'izindi serivisi zitangwa na emutiyene, ndetse i mpande ye hakaba hari icyapa cyanditseho irembo nacyo gitanga serivisi zitandukanye, serivisi z'ubuvuzi, serivisi zo kwishyura amazi ndetse no kwishyura ku yandi mabanki, n'izindi serivisi zitandukanye.

Ngira ngo iyi shusho mubona hano imbere, ni ishusho igaragaramo abanyeshuri ndetse n'umwarimu wabo, arimo abigisha ibyijyanye na mudasobwa, urabona ko bakurikiye rwose ndetse bisa naho hari mu gihe cya korona virusi, bisa naho abanyeshuri bacu n'umwarimu, bari birinze bambaye udupfukamunwa.

Itariki mirongo itatu nimwe za ukwa cumu na abiri, bibiri na makumyabiri na kane, itariki ndetse na umunsi wokwishyuriraho imusoro no kudekararaibyinjiye ibyinjiye na ibisohoka kubijyanye na umusoro buri mucuruzi cyangwa se buri mutura Rwanda yemerewe kuba yasora...

Inyubako nziza cyane, itatse neza cyane amatara meza cyane utubati twiza dutoya Kandi tugezweho, ubona ko binogeye ijisho intebe byo sinakubwira, ubona ko Ari inyubako yagenewe gukorerwamo inama, ndetse ni ibindi biganiro bitandukanye.

Ngira ngo iyi shusho mubona hano imbere, ni ishusho igaragara nk'aho ari ahantu cyangwa se inzu yishyurirwamo serivisi zitandukanye za goverinoma ndetse wishyuramo uburyo butandukanye ukoresheje nk'irembo, wishyura serivisi zawe waje ushaka

RDB ni ikigo gikorera mu Rwanda gishinzwe kureba iterambere ry'u Rwanda uko rigenda rizamuka, umunsi ku munsi ndetse n'imyaka irimo igenda iza, aho bareba ikigereranyo cy'iterambere aho u Rwanda rwavuye ndetse n'aho rugeze ubu.

Ni umunara uzwiho gusakaza amashusho ndetse n'amajwi ndetse na murandasi, aho wifashishwa mu gutanga ibyo byose twavuze haruguru; aho buri muturage wese kugira ngo abashe gutanga amakuru kuri mugenzi we hifashishwa ino minara iri hejuru y'inyubako.

Ngirango murabibona imbere yacu hari ibikorwa remezo bigaragara nk'amashanyarazi, ahabwa abaturage ndetse murahabona ibidukikije aribyo biti biteye ku muhanda, ndetse hirya murahabona inyubako yubatse neza rwose, yubatse mu buryo bugezweho ni nayo mureba hano imbere yanyu.

Ngira ngo rwose iyi foto yacu ifite iki iratwereka hari icyo twakwita nk'umunara cyangwa se harimo n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye turi kubonamo insinga zitwara interinete ,turimo turabonamo ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye hirya ndetse hari n'inzu nziza rwose.

Ibikorwa Remezo birimo amashanyarazi ndetse bitangwa na Guverinoma y'u Rwanda, igeza ku baturage mu rwego rwo kwiteza imbere, ndetse bakora n'imirimo yabo yindi igiye itandukanye, hakoreshejwe amashanyarazi ndetse n'ibindi bikorwa Remezo.

ibikorwa remezo birimo nk'amashanyarazi babona ko hari n'imodoka zitwara umubare munini w'abagenzi izina nka kwasiteri, urabona ko ni ibintu byiza cyane leta y'u Rwanda igenda igaragariza abaturage bayo ndetse ishyikiriza abaturage bayo, harimo n'amashanyarazi ibindi bigiye bitandukanye ibikorwa remezo.

Ibikorwa remezo birimo amashanyarazi urabona ko mu ikusanyirizo ry'umuriro, aho uhurira mbere y'uko ugera mu baturage, urahabona ibiti byiza cyane ndetse na jaride nziza cyane, urabona ko ni ibintu biryoheye amaso ishusho nziza cyane, ibikorwa leta igenda igeza ku baturage birimo amashanyarazi ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye.

Ibikorwaremezo, birimo nk'amashanyarazi ,bikaba byaregerejwe abaturage mu rwego rwo kwiteza imbere bakava mu bukene, bagakora imirimo yabo itandukanye, binyuze mu bikorwa by'amashanyarazi, aho bamwe bakora ubusuderi, bagakora n'ibindi bikorwa bitandukanye, hakoreshejwe aya mashanyarazi atangwa na leta.

Uburyo bwo gukwirakwiza umuriro ku baturage bose bo mu rwanda urabona ko n uburyo bwifashishwa hakoreshejwe insinga cyangwa se amapoto mu buryo bwo gusakaza umuriro kuri buri muturage wese wo mu rwanda uburyo gahunda ya guverinoma y'u Rwanda yihaye kuko muri bibiri na mirongo itatu buri muturage wese azaba afite amashanyarazi amugeraho.

Inzu nini y'ubwishingizi bwa u a pa ku ruhande hari amasikariye maremare, cyane inzu nini umuntu ugiye kwinjiramo bisa nkaho ikorwa ubwishingizi.

Ibikorwa remezo birimo nk'amashanyarazi atangwa, akwirakwizwa mu baturage ndetse n'imihanda irimo igenda ikorwa, mu ruhande rw'uko abaturage bahahirana banyuze muri iyo mihanda, urabona ko urujya n'uruza rw'abaturage barimo bagenda mu mirimo yabo ya buri

Kimwe mu bigo bitanga umuriro uzwi ku izina rya REG. Aho bisobanuye ko ni ikigo gitanga amashanyarazi mu Rwanda cyangwa se gikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu duce twose umuriro utageramo, aha ni mu ikusanyirizo aho bareba uburyo umuriro ugera ku baturage.

Ahakusanyirizwa umuriro ujya mu baturage, urabona ko hari igikoresho kiba cyawugabanya cyangwa se cyawongera, kikaba cyatanga umuriro mu baturage ukabageraho uko bikwiye, ndetse urabona ko hari nibindi bikoresho bitwara umuriro nk'insinga zikwirakwiza amashanyarazi mu baturage.

Imodoka ziparitse ndetse urabona ko ari imodokadoka z'amoko atandukanye, urahabona ko n'ushinzwe umutekano urimo agenda agenzura umutekano w'izi modoka ziparitse urahabona hari ubusitani bwiza cyane, inzu yubatswe mu buryo bwiza cyane ndetse n'umuturage urimo agenda ajya mu kazi ke ka buri munsi.

Inzu nziza cyane, ikirere cyiza cyane, umuhanda mwiza cyane, urabona ko n'imodoka nyinshi ziparitse mu buryo bwiza cyane. Urahabona n'abagenzi barimo bagenda bajya muri gahunda zabo zitandukanye, urabona ko ni ibintu byiza cyane, ikirere gisa neza cyane. Ni ahantu heza inzu zubatswe mu buryo bwiza cyane.

Ngira ngo murabibona hano rwose, inzu turimo imeze nk'aho ari inzu yakira abarwayi, urabona ko ifite imyanya itandukanye ndetse harimo n'ibikoresho abarwayi bifashisha batabasha kugenda ndetse murabona ko iyi nzu ifite isuku nziza, rwose bigaragarira amaso ya buri umwe

Icyumba kirimo umurwayi n'umuganga, urabona ko umuganga aho arimo akoresha ama ekuteri ari kumva umutima w'uyu murwayi uko utera, urabona ko ni ibintu byiza cyane serivise abaganga bagenda baha abaturage mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bwabo.

Abagororwa bari mu mirimo itandukanye nsimburagifungo y'amaboko, aho bikoreye ibikoresho bitandukanye, harimo amapiki, ibitiyo, ingorofani ndetse n'ibindi bikoresho bikoreshwa mu buzima bwa buri munsi, aho bajya gukora imirimo isimbura igifungo.

Abacamanza bari kugaragara mu myenda ifite ibara ry'umweru n'umukara, ubona ko bari gukora akazi kabo gakwiye, ndetse nyuma yawo hakaba hari abagororwa cyangwa se imfungwa zirimo zikurikiranyweho ibyaha, ndetse bakaba bajyanywe mu rukiko aho bamwe baba bajuririra ibyaha ndetse buri wese agahabwe ubutabera.

Ngira ngo iyi shusho mureba hano imbere ni ishusho igaragaramo abantu bicaye ,bicaye ku dutebe bambaye udufurari cyangwa se utwambaro ku majosi turiho idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda bisa nkaho bari mu nama ndetse bakurikiye barimo bumva ibyo bagomba kuza gutwara .

Abagabo babiri mu myenda y'iroza, bakirangwaho ibyaha bigiye bitandukanye, bari imbere y'abacamanza, barimo baregwa ibyaha bakoze ndetse buri wese abasha guhabwa ubutabera, n'abo bantu bicaye bari mu makanzu meza cyane y'umweru n'umukara, ubonako bari guhabwa ubutabera, baremera ibyaha ndetse hari n'umucamanza uri hirya yabo n'umwavoka wabo bagendanye.

Gereza cyangwa se igorororero urahabona ko hari umubare munini w'imfungwa zishinjwa ibyaha bigiye bitandukanye aho bazanwa muri iki kigo mu rwego rwo kugororwa ndetse abafite imico itandukanye bagiye bazira ibyaha aho bava murino nyubako bafite umuco ndetse bagasubira mu baturage barahindutse.

Ngira ngo iyi shusho mubona hano imbere ni ishusho igaragaramo abayobozi bicaye muri sale ndetse bisa naho baje mu buryo bwo kuganira ndetse no gusangira, urabona ko buri wese yicaye ku ntebe yiwe ndetse arimo aganira na mugenzi we urabona ko ari ibintu bishimishije.

Ingabire Victoire ukekwaho kugira uruhare mu gukora Jenoside yakorewe abatutsi, igihumbi kimwe maganacyenda mirongo icyenda na kane, aho ari mu maboko y'abashinzwe umutekano, urabona ko ajyanywe kuburanishwa mu byaha byose aregwa ndetse akekwaho.

Wari uzi ko ukwiye kwirinda abagira ibyo bagusaba bakwizeza kugufasha kubona ubutabera mu nkiko, birinde ubutabera ntibugurwa ndetse kandi koko ubutabera ntibuburwa, ubirinde abo bantu, ubashe kuba wakigererayo baguhe ubutabera wowe ubwawe.

Umucamanza urimo arahira afashe ku ibendera ry'u Rwanda aho ari umucamanza uri kwinjizwa mu kazi, akaba arahizwa mu rwego rwo kutazatatira igihango cy'u Rwanda ndetse no kuzubahiriza amategeko abagenga.

Gereza ya nyanza ni gereza iherereye mu Majyepfo, aho iyi gereza yakira abagororwa bazazanywe, bayazanywe mu igororero, aho baba bashinjwa ibyaha bigiye bitandukanye, aho iyi gereza itanga umuco ndetse ikigisha abagororwa bagororerwa muri iyi gereza, imyuga igiye itandukanye aho bavamo bafite ubumenyi.

Gereza ya rubavu ni gereza igororerwamo umubare munini wimfungwa zishinjwa ibyaha bigiye bitandukanye harimo ibyaha byo kwiba ndetse nibindi byinshi cyane, gusa bakaba bafatwa neza cyane muriyo gereza.

Abagororwa bakuwe mu modoka bajyanwe kuburanishwa runa ko bari kumwe n'abasekiririte babarindiye umutekano, urabona ko rwose ni umubare munini w'abagororwa buri umwe aho agiye guhabwa ubutabera n'abacamanza, urabona ko agiye guhabwa ubutabera kuri burundu.

Abo mureba imbere ni abapolisi bakorera mu gihugu cyacu cy’u Rwanda, bashinzwe umutekano w’imbere mu gihugu. Barimo abapolisi bato n’abakuru mureba hano imbere, ndetse bakaba bagenda banatanga serivisi zitandukanye zo gufasha abaturage aho bubakira n’abaturage binyuze mu gahunda yo gufasha abaturage.

Umuhanda nyabagendwa, umuhanda mwiza cyane, urabonako hino yawo hari akayira k'abanyamaguru. Urabona mu muhanda hari abamotari bari gukora bari gukora umwuga wabo w'ubumotari wa buri munsi ndetse n'imodoka zitandukanye. Hari n'imodoka yanditseho polisi, iri ni ishami rishinzwe umutekano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda.

Umupira wifashishwa mu gihe habaye inkongi y'umuriro ndetse ukaba ukoreshwa mu kuba wakurura amazi mugihe habaye inkongi y'umuriro ishaka kuzimya ukaba ukoreshwa naba nyiri inzu mu buryo bwo gutabara bahashya umuriro ko waba mwinshi cyane mu gihe batarabona izindi nzego zibishinzwe.

Urwego rw'ishami rya Polisi ruzwi nka tarafike. Rukora umutekano wo mu muhanda, urabona ko barimo baragenzura perime ye barebe ko afite ibyangombwa byujuje ndetse bisabwa n'umushoferi wese uhabwa uruhushya rwo kujya mu muhanda, urabona ko ari gukora akazi ke neza cyane.

Urwego rushinzwe umutekano wo hagati mu Gihugu ruzwi ku izina rya Polisi y'u Rwanda, aho bakora umutekano wabo mwiza, urababona rwose bahagaze neza, baparitse imodoka, barimo baraganira ku bijyanye n'akazi kabo barimo ka buri munsi.

Umupolisi uri mu kazi ke ko mu muhanda, urabona ko yahagaritse ibinyabiziga, bisa nk'aho yabwiye abaturage batwaye ibinyabiziga kuba bakitonda imbere hari inkomyi, akababwira kuba bahagaze akanya gatoya ndetse akaba ari bubahe uruhushya rwo kongera gutambuka. Urabona ko arimo atwara neza cyane cyangwa se arimo agenzura umutekano wo mu muhanda.

Kugira ngo murayibona aho abapolisi bayihiriye igisate cy'umuhanda utuze nka traffic ushinzwe umutekano mu muhanda umutekano w'abanyamagurusanana umutekano w'ibinyabiziga muri rusangebona neza bari kwitegereza ko umutekano ukorwa hagati y'abanyamaguru n'ibinyabiziga bisi yubahiriza itegeko.

Inyubako irimo ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye by'amatora, urabona ko harimo abaturage barimo bagenda bagaragariza abaturage ibikorwa bagomba gukurikiza, mu buryo bwo gutora neza abayobozi babo ndetse kandi bishimiye, ubona ko hari umuturage witegura gutera igikumwe aho ashaka gutora umuyobozi we...

Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, uyu ni Umukuru uyoboye Igihugu cy'u Rwanda, aho yari mu itora aho na we yari yaje gushyiramo kandidatire y'umukandida na we arimo aha amahirwe mu gihe bari barimo biyamamaza mu matora.

Umukandida Mpayimana Philippe, aho ari imbere y'abaturage ndetse n'abandi bamugaragiye bo mu ishyaka rye, aho arimo agezaho imigabo n'imigambi abaturage ibyo azabakorera bijyanye n'ishyaka ahagarariye, urabona ko arimo atanga ubutumwa ku baturage.

Ngira ngo ishusho mubona hano imbere ni ishusho rigaragaza ishyaka rikorera mu Rwanda rya Girini Pati ndetse imbere hakaba hari umuyobozi waryo ubakuriye dogiteri Frank Habineza bisa nkaho hari ubutumwa yarimo agenera abaturage ku bijyanye n'ishyaka ryiwe.

Paul KAGAME na madamu we Jeannette KAGAME, mu ngendo nziza cyane ndetse no mu myambaro myiza cyane, isa n'aho bashagariwe n'abantu benshi n'abaturage benshi cyane, baje kwihangira amaso ababayoboye ndetse n'abategetsi bandi bahagaze, ubona ko biryoheye ijisho rwose,

Ngira ngo iyi shusho mubona hano imbere, yateraniyemo abantu benshi bisa n'aho ari mu nkambi, urabona ko imbere yaho hari umuntu bateze amatwi, afite icyo arimo abagezaho, abaturage rwose bisa n'aho bari bamwishimiye, ndetse n'imbere hari abashinzwe umutekano.

Ngira ngo ishusho mubona, ni ishusho isa naho iteraniyemo abantu benshi baje kumva ubutumwa bw'abayobozi babagezaho ngira ngo murabibona ko imbere y'abo hicaye abayobozi bari mu myenda y'umuhondo bisa nk'aho bakorana na emutiyeni (MTN) ndetse hari n'abashinzwe umutekano bahari.

Ngira ngo iyi shusho yacu mubona hano imbere ni ishusho igaragaramo ishyaka rya green party iyobowe na Frank Habineza bisa nkaho yaje kugira icyo asangiza abaturage mu bijyanye n'ibyo yifuzaga kubagezaho bijyanye n'ishyaka rye rya green party rikorera mu Rwanda ryigenga .

Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, GATABAZI Jean Marie Vianney umugabo w'umunyabwenge, mu ikoti ry'umukara ryiza cyane, ndetse i mpande ye hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda bigaragara nk'umutegetsi rwose w'umunyabwenge muri iki gihugu cy'u Rwanda akaba akiyoboye na n'ubu.

Umuhanda mwiza cyane, ugaragaramo ibinyabiziga bitandukanye, harimo ibinyabiziga biparitse, bizwi ku izina rya rifani, bikora ubucuruzi butoya buciriritse, mu buryo bwo kwikorera imizigo, ndetse hari na feruje zemerera ibinyabiziga kuba byatambuka.

Izwi ku izina rya rifani aho ikora akazi k'ubwikorezi buto buto ndetse igakora n'akazi ko kwikorera imizigo igiye itandukanye harimo ibyo kurya ndetse n'ibindi bitandukanye. Urabona ko ni moto ntoya kandi igendera igihe ikakugerezaho ibicuruzwa byawe ku gihe watumije aho izi moto zimenyera.

Moto zizwi ku izina rya rifani zimenyerewe mu Rwanda mu gukora ubwikorezi bw'ibicuruzwa bitandukanye ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, aho uhamagara izi moto zikagufasha mu kwimura ibintu byawe cyangwa mu gutumiza ibintu byawe.

Umuhanda mwiza cyane urimo bininyabiziga bitandukanye urabona ko ikinyabiziga kiri imbere urabona ko ikinyabiziga gikoreshwa mu rwanda mu buryo bw'ubwikorezi bwo gutwara ibintu bitandukanye ibicuruzwa bitandukanye yaba ibyoku kurya ndetse n'ibindi bicuruzwa bigezweho urabonako ni modoka nziza yikorera ibintu byinshi kandi ikabigeza ahantu mu gihe gitoya.

Imodoka nini ikoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ahandi mu mahanga, ikaba izwiho gutwara umubare munini w'abaturage mu rwego rwo kwirinda kuba wasiga abaturage ku nzira. Iyi n’imodoka yaje ikemura ikibazo cy'uko baturage baburaga imyanya yo kwicara mu modoka ntoya ugasanga zuzuye, iyi modoka ikaba yarakemuye ikibazo cyabo.

Imodoka nini ikorera mu Rwanda izwi ku izina rya shyirumuteto, aho itwara umubare munini w'abaturage, ikaba ibajyana mu ngendo zabo za buri munsi ndetse ntawe isize ku nzira, kuko izwiho gutwara abaturage benshi cyane.

Moto ntoya zizwi ku izina rya rifani zikoreshwa mu Rwanda ndetse no hanze, mu rwego rwo kugezaho ibikoresho bitandukanye, cyangwa se imizigo mitoya ku baturage bayikeneye ako kanya, ndetse n'imbere murahabona imodoka ya Dayihatsu ikoreshwa mu gutwara imizigo...

Imodoka nini iparitse muri gare izwi ku izina rya Coaster ,aho ikora ingendo nini mu mujyi no mu Ntara, izwiho kuba itwara abantu benshi n'imizigo yabo, urabona ko ni imodoka yaje gukemura ikibazo cy'uko abagenzi bahagararaga ku mihanda bagenda mu tubisi dutoya, ariko iyi ni modoka yaje ikemura ikibazo.

Umuhanda mwiza, umuhanda ugezweho, inzira y'abagenzi yubatswe ku buryo bugezweho. Urabona ko mu muhanda hari imodoka nini cyane izwiho gukora ubwikorezi; yikorera ibicuruzwa bitandukanye ndetse n'indi mizigo igeza ku baturage cyangwa se ku bakiriya baba batumye imizigo, ku buryo bworoshye kandi igakora ibintu byinshi. Urabona ko n'abaturage barimo bagenda bajya mu mirimo.

Iyi mureba mu ibara ry'ubururu, ni moto ikorerwa mu Rwanda ikora ubucuruzi butandukanye bw'ubwikorezi, ndetse ikaba yorohereza abacuruzi mu kugeza imizigo yabo aho bagiye mu buryo bworoshye bakoresheje izi moto.

Imodoka nini, imodoka yambukiranya imipaka izwiho gutwara abantu b'imizigo ibijyana hanze cyangwa ibyinjizwa mu gihugu, urabona ko umunyonzi utwaye igare uri mu kazi ke ka buri munsi gatandukanye, urabona ko na we afite ibyo atwaye ku igare ajyanye mu kazi. Ndetse n'umuhanda mwiza cyane.

Imodoka nini izwi ku izina rya shira umuteto itwara umubare munini w'abagenzi ibakuye ku muhanda ndetse no muri gare, aho yaje iyi modoka izanywe mu Rwanda mu rwego rwo gukemura ikibazo cy'umuvundo cyangwag se kuba watinda ku murongo, mu rwego rw'uko iminota yawe irimo igenda iyi modoka yaje ibikemura.

Imodoka ziriho ibara ry'umweru n'umuhondo, dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Yaba mu buryo bwo kugenda ahantu mu rugendo runini, tubasha kwifashisha izi modoka zikoreshwa m’u Rwanda mu buryo bwo kugabanya. ubu abantu bajya gutega mu ma bisi manini bifashisha iyi modoka iri mu ibara ry'umweru n'umuhondo irimo igenda mu nzira.

Ngira ngo ishusho mubona hano imbere ni ishusho igaragaza ibinyabiziga bitatu, ibinyabiziga bibiri akaba ari ibinyabiziga bizwi ku izina rya lifani bikora serivisi z'ubwikorezi mu buryo bwo kwikorera imizigo mikeya, uba wajyana ahantu ukifashisha izi moto ebyiri bita lifani.

Uyu mu motari mureba hano ni umumotari ukora akazi ko gutwara abantu ndetse akaba ari akazi kamutungiye umuryango, umubona ku isuku nziza cyane, ndetse hirya ye hari imodoka ndende cyane izwi ku bwoko bwa fuso ikora akazi k'ubwikorezi, ndetse n'akandi kazi kagiye gatandukanye.

Abanyonzi bazwiho gutwara abantu ndetse n'imizigo aho ako ariko kazi kabo ka buri munsi, aho bakorera mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye mu rwego rwo kuba bakwiteza imbere banyuze mu gutwara igare, urabona ko babukereye rwose barimo bakora ijoro ndetse n'amanywa.

Imodoka zikora ibijyanye n'ubwikorezi, urabonako hano imodoka zikoreye motoRa, ndetse hino hari n'indi moto, cyangwa se moto ikoreshwa mu Rwanda ku izina rya rifani izwiho gukora ibijyanye n'ubwikorezi butoya. Ariko ndetse urabona kandi ni imodoka zigenda zitanga serivisi zijyanye n'ubwikorezi, aho basangisha abaturage ibikoresho byabo aho bibereye.

Abakozi k'umurimo urabona ko imbere hari ingorofani yikorera imizigo, imbere yaho hari abacuruzi ndetse nabamotari batwaye moto bisa naho bagiye mukazi ndetse niruhande rwabo harimo aba papa beza cyane bagiye mukazi.

Aha ni muri gare aho abaturage baza baje gufata imodoka, ziba zabajyana mu ntara zitandukanye ndetse n'abashaka kujya mu bihugu by'amahanga, baza gufata imodoka ziba zabatwara zibajyana mu mahanga cyangwa ku mipaka igiye itandukanye, baza hano muri gare.

Imodoka igaragara mu ibara ryiza ry'umweru n'umuhondo, ikaba ari imodoka ikoreshwa mu Rwanda mu buryo bwo gutwara abantu n'ibintu bitandukanye, ndetse mukaba mwakoresha iyi modoka mu buryo bwo kuba mwagera ahantu runaka mugiye kuba mwatura.

Icyapa kigaragaza ko hagomba guparikwa imodoka nini z'amabisi atwara abantu mu gihe gitoya, uraabona ko ni icyapa kimenyesha umushoferi ko ashobora kuba yahagarika imodoka atwaye ya kwasiteri cyangwa se ubundi bwoko bw'izi modoka; ikaba yaruhuka igihe gitoya.

Umunyozi mu kazi ke ka buri munsi ko gutwara abantu n'ibintu, urabona ko yikoreye umufuka urimo ibicuruzwa, urabona ko abijyanye aho babimutumye ndetse imbere urahabona imodoka, ari gukora amanywa n'ijoro mu rwego rwo kwiteza imbere.

Ikibuga kizwi ku izina rya golofe, gikinirwamo imikino itandukanye y'intoki. Ndetse no hino urahabona itapi nziza cyane abaturage bakoresha bakora siporo z'amaguru, mu rwego rwo kunanura imitsi cyangwa se bakora siporo birinda indwara.

iyi tapi mubona ni itapi ikoreshwa mu buryo bujyanye na siporo aho abanyarwanda bayikoresha bayikoresha mu bijyane no kwiruka bidagadura muri buri weekend ndetse na buri munsi ,buri muturage wese akaba yemerewe kuyikoresha binyuze mu buryo bwa siporo nta kindi kintu wabasha gukoreraho udakoreyeho siporo.

Iki cyapa kiratwereka ko hari umuhanda uzamuka umanuka uca iburyo nuca ibumoso ngirango murabobona neza ko harimo imodoka imwe yabyubahirije igiye guca ibumoso ndetse hari nizindi zikomeza imbere barimo batera icyerekezo cyaho bagiye iki cyapa kituyobora mu buryo bwiza cyane.

Imodoka, abamotari barimo batambuka bisa naho bahawe uruhushya n'izi feruje zirimo zaka mu ibara ry'icyatsi, ariko ibumoso hakaba hari feruje yaka mu ibara ry'umutuku, bivuze ko abajya ibumoso bagomba kuba bahagaze bakabihererwa uburenganzira.

Imihanda myiza ndetse n'ibikorwa remezo byiza, urabonako imiturire ni myiza cyane ,ubusitani buteye neza cyane, ibikorwa remezo birimo nk'amashanyarazi ndetse n'ibyapa biteye kumuhanda bibuza kuba waparika umwanya munini hano ,urabona ko hari n'umumotari wa byubahirije uparitse impande y'icyapa ,urabona ko ni ibintu byiza cyane.

Ishusho ni mpande enye, ubuso ni umweru, ikirango ni umukara. Iki cyapa kigaragaza ko iyi ari inzira y'abagenzi, aho umushoferi ufite ikinyabiziga uri mu muhanda, aho yemerewe kugabanya umuvuduko mu gihe abonye umugenzi ugiye gutambuka yambukira muri iki cyapa, akaba yamuha inzira.

Icyapa ndanga cyerekezo kiri mushusho y'uruziga ubuso ni ubururu ikirango n'umweru urabonako ni icyapa gikoreshwa mu Rwanda ndetse n'ahandi mu mahanga, kiyobora cyangwa se kiranga, cyereka umushoferi utwaye ikinyabiziga, ko ashobora gukomeza hari umuhanda utambika cyangwa se ukomeza.

Icyapa gitegeka, cyanditsemo kilometero mirongo ine, ubuso ni umutuku, ishusho ni uruziga, ikirango ni umukara. Iki ni icyapa gishyirwa mu muhanda mu rwego rwo kumenyesha umuyobozi utwaye ikinyabiziga ko agomba gukoresha umuvuduko wa mirongo ine muri urwo rusisiro cyangwa se muri izo nsisiro aherereyemo.

Ibyapa bishyirwa mu muhanda, iki ni kimwe mu byapa bishyirwa ku muhanda biburira umushoferi, iki cyapa gifite ishusho ya mpandenye, ubuso ni umuhondo, ikirango ni umukara, aho handitsemo kilometero mirongo itandatu mu isaha, aho umushoferi utwaye imodoka areba akubahiriza ibyo iki cyapa kivuga.

Ferouge zizwiho gukora akazi gakomeye mu Rwanda mu rwego rwo gutanga umutekano wo mu muhanda urabona ko Ferouge zashyizweho n'ikigo gishinzwe umutekano mu muhanda Polisi y'u Rwanda murwego rwo gukumira impanuka urabona ko ikimenyetso kirimo cy'umugabo urimo aratambuka ni uruhushya rwemerera abagenzi kuba batambuka ndetse no hejuru yawo akaba ari amasegonda atagomba kuba barenze.

Pariki y'inyoni izwiho kuba ari urusobe rw'inyoni ndetse na ba mukerarugendo, bakaba baza gusura amoko y'inyoni abarizwa hano muri iyi parike, urabona ko ari pariki nziza cyane ndetse inafite parikingi y'aho ibinyabiziga bizanwe na ba mukerarugendo cyangwa abandi baturage batandukanye, babasha kuba baparika bagasura ubwiza bw'aha ngaha nyaburanga burimo nk'inyoni

Impara resitora ni inzu ikorerwamo icyo kurya ndetse n'icyo kunywa urabona ko iy'inzu iherereye ahantu heza cyane hari imyubakire myiza cyane itandukanye hari umuhanda ,hari amashanyarazi hari n'ibindi bikorwa remezo ushaka kuza gukorera muri iyi resitora bare mu bijyanye no kuba yahafatira ifunguro ndetse n'icyo kunywa ahawe ikaze.

Inzu nziza cyane, yubatswe ku buryo bugezweho, iteteye amarangi meza cyane ndetse ifite igipangu cyiza cyane gikolotiriye, gifite umutekano ndetse urabona ko ari umudugudu wubatse neza cyane uri ahantu hateye neza cyane, hino y'aho urahabona ikibanza cyangwa se ikibanza kirimo ibiti, kitarubakwamo inzu urabona ko ni ibintu byiza cyane.

Ngira ngo iyi shusho mubona hano imbere, ni ishusho igaragara mo inyubako yubatswe mu buryo bwa tu ini wani, ndetse mu buryo bw'amacumbi, urabona ko ari inyubako nziza cyane rwose, iri ahantu hatandukanye, irimo n'ibidukikije harimo nk'ibiti, indabyo, ni inyubako nziza cyane.

Inzu nziza cyane, inzu zubatswe mu buryo bugezweho, urabona ko harimo n'izindi nyubako zirimo zizamurwa zitaruzura ariko zubatswe mu buryo bugezweho, urabona ko ni umudugudu urimo ugenda utera imbere ndetse mu buryo bwiza cyane w'inzu zigezweho buri muturarwanda wese yabasha kuza kwiturira hano ndetse no kuhagura ikibanza agatura mu mudugudu mwiza cyane urimo ugenda utera imbere nk'uko bigaragarira amaso.

Kanombe ikibanza cyiza, ikibanza kigurishwa ndetse akaba ari mu miturire myiza cyane, aho ari ahantu cyangwa se agace kageze ku iterambere, gafite ibikorwa remezo bitandukanye nk'amazi n'amashanyarazi, imihanda myiza ikoze ndetse ukaba ari na hafi y'umujyi, ukaba wabasha kugura iki kibanza.

Inzu nziza, ni zubatswe mu buryo bugezweho ubusitani bwiza parikingi nziza cyane, aho umuntu aje ashaka serivisi mu karere ka Gasabo, atabura guparika, ndetse no hejuru urahabona ikirango cyiza cyane by'agaseke kizwi mu muco w'u Rwanda aha kaba ari ku karere ka Gasabo.

Inzu nziza cyane, inzu zubatswe mu buryo bugezweho, inzu zigeretse, urabona ko harimo ibyumba byinshi bikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye ndetse n'indi mishinga igiye itandukanye. Urabona ko ku bantu bose bifuza gukoreramo ubucuruzi baza bagafata inyubako hano urabona ko ni inzu nziza cyane iherereye ahantu heza cyane, urabona ko jaride nziza cyane iteye amarangi meza cyane.

Inzu nziza cyane yubatse mu buryo bwiza kandi bugezweho. Bigaragarira amaso, ni inzu nziza cyane ndetse iherereye mu Mujyi wa Kigali. Urabona ko ari inzu ifite ubusitani bwiza cyane. Impande yabwo hari n'umuhanda mwiza ndetse ni n'umuhanda ubona ko urimo umunyamaguru uri kuri telefoni.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, amarangi meza cyane, ndetse n'amakaro n'amapave, igipangu cyiza cyane gifite dizayina nziza cyane, urabona ko amaparafo agezweho cyane, ubonako amarangi ni amarangi meza utasanga ahandi,...

Abamotari mu kazi kabo ka buri munsi ko gutwara abantu, urabona ko bacyeye bari mu muhanda nta nkomyi, ndetse no hejuru hakaba hari ikiraro cyambukiranya umuhanda kijya mu wundi, urabona ko nacyo cyifashishwa hanyura imodoka hejuru,

Imihanda myiza, ibikorwa remezo byiza, amazu agezweho ndetse urabona ko abaturage bari mu kazi kabo ka buri munsi, nk'abamotari batwaye abantu ndetse n'ibintu, mu kazi bakora kabateza imbere, n'imodoka zitwara abagenzi ziri mu kazi kazo.

Imihanda myiza ni ibinyabiziga ndetse na jaride nziza cyane murabona ko ni ibintu byiza cyane isuku ndetse hirya mura habona umugenzi witegura kwambuka bisa naho yubahiriza amategeko yabugenewe umuhanda nk'uko atangwa na polisi uruna umugenzi agiye kwambukira ahabugenewe mu mirongo icagaguye y'umweru ndetse n'ibinyabiziga byitegure guhagarara mu gihe umugenzi bamuhayeye inzira.

Umuhanda mwiza cyane wubatswe mu buryo bugezweho ikirere cyiza urabona ko abaturage bari mu mirimo yabo igiye itandukanye urabona ko hari abamotari bari mu kazi kabo bitegura gutwara abagenzi urabona ko hari n'izindi modoka kamodoka gatoya kikorera imizigo kazwi ku izina rya lifani ari mu kazi ndetse no hirya nako harimo n'abandi batwa kazi kabo gatandukanye ka buri munsi.

Abamotari mu kazi kabo ka buri munsi ko gutwara abantu ndetse n'ibintu, urabona ko bitabiriye akazi kabo aho batwaye abantu babajyana mu kazi kabo ka buri munsi, ndetse n'ibinyabiziga birimo bibisikanwa aho ubona ko buri umwe arimo ajya mu kazi ke.

Umuhanda mwiza cyane umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye, urabona ko ibinyabiziga bibisikana ndetse babikoresha mu kazi kabo ka buri munsi .Urabona ko harimo n'umuyonzi urimo ujya mu kazi ke ka buri munsi. Ndetse ibiti byiza cyane hejuru urahabona inyubako nziza cyane yo mu bwoko butandukanye ikorerwamo n'ibintu bitandukanye.

Umuhanda mwiza, ibidukikije byiza, harimo imikindo ndetse n'ibiti bitandukanye, urabona ko umunyonzi ari mu kazi kiwe ka buri munsi kandi kamutunze ndetse n'imodoka ziri mu muhanda, aho abazitwaye bagiye mu kazi kabo ka buri munsi.

Imihanda myiza idafite uko isa, harimo iy'ubwoko butandukanye bw'imodoka ndetse n'abanyamaguru bambukira ahabugenewe urabona ko ni umuhanda ukeye, hirya hari amazu meza cyane igihugu gifite ikirere cyiza cyane ni ishusho nziza cyane imihanda ifite amatara meza ndetse urabona ko buri muturage abisikana na buri kinyabiziga mu buryo bwabugenewe nta kavuyo.

Ngira ngo rwose iyi foto iri imbere iratwereka ko ari umuhanda nyabagendwa, ndetse hakaba hari n'ibyapa biyobora muri nyarugenge ndetse hakaba hari n'icyapa cyereka abanyamaguru ko hafi aho ngaho hari aho bambukira urabona neza ko ari ahantu hakeye hari amatara hari ishusho nziza kuri buri umwe.

Abanyonzi mu kazi kabo ka buri munsi ko gutwara abantu n'ibintu bitoya ndetse n'abamotari mu kazi kabo ka buri munsi ko gutwara abantu na bo n'ibintu, urabona ko bari mu kazi kabo ka buri munsi, gatunze imiryango yabo.

Imihanda myiza, ikirere cyiza, ibidukikije harimo nk'ibiti, imikindo ndetse n'ibindi byinshi. Abamotari mu kazi kabo ka buri munsi ko gutwara abantu n'ibintu, ndetse n'imodoka zisanzwe zitwara ba nyirazo mu kazi kabo ka buri munsi.

Umuhanda wo hasi n'umuhanda wo hejuru urabona ko ni ikiro gikoreshwa aho ibinyabiziga binyura hejuru n'ibindi binyura hasi mu rwego rwo kugabanya akajagari k'ibinyabiziga cyangwa se ibindi bintu binyuzwa kuri ino mihanda, ubona ko ni imihanda yubatse mu buryo bwiza kandi bugezweho.